Radiyanti ushobora kuhafatira ubwishingizi butandukanye harimo ubwishingizi bw'amazu, ubwishingizi bw'ibinyabziga ariko nanone hari ubwishngizi bw'inkongi y'umuriro. Ushobora gufata ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro iyo nzu yawe ikaba ifite umutekano

Radiant yacu ni serivise itanga ubwishingizi, buno bwishingizi itanga ni ubwishingizi buciriritse bw'ubuzima, aho ushobora gushyiramo ubwishingizi ukivuza kandi ukajya uvuza n'abawe.

Radiant ni Ikigo cy'Ubwishingizi gikorera mu Rwanda. Radiant itanga ubwishingizi bitandukanye. Hamwe n'ubwishingizi bwo kwivuza ku giti cyawe hamwe n'abagize umuryango wawe, ni icyizere cy'ejo hazaza, kigufasha kugira ubuzima bwiza.

Buritamu ninsosiyete y'ubwishingizi mu Rwanda itanga ubwishingizi butandukanye, hakuyemo ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi ku nyubako, ubwishingizi bw'ubuzima n'ubwishingizi ku bicuruzwa.

Radiyanti ni ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu gihugu cy'u Rwanda, radiyandi itanga ubwishingizi butandukanye, ariko ikaba yita cyane ku bwishingizi bw'ubuzima aho uwafashe ubwishingizi bw'ubuzima ashobora kwivuza akavuza n'abe no mu gihe cy'impanuka.

Sonarwa ni ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda ushobora ufata ubwishingizi butandukanye muri sonarwa ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'amatungo, ubwishingizi bw'inyubako cyangwa se ubwishingizi bw'amatungo.

Ekwiti banke ni kimwe mu bigo by'imari mu Rwanda, ni ikigo gifite ikoranabuhanga rikoreshwa kuri terefone zigendanwa, aho iryo koranabuhanga ryo muri terefone, ushobora kohereza amafaranga kuri konteya ekwiti banke, kohereza amafaranga kuri mobayiromani n'ibindi byinshi bitandukanye.

Ushobora gukoresha ikoranabuhanga rya banki ya Kigali muri telefone yawe, wifashishije telefone yawe ushobora kujya kuri serivise zitandukanye harimo kureba kuri konti zawe, kohereza amafaranga, kwishyura ibintu byinshi bitandukanye.

Umudamu arimo aracuruza imboga, ubucuruzi afite acuruza inyanya, ibitunguru n'izindi mboga zikenerwa mu guteka ibyo kurya. Arimo arasoma ubutumwa bamwoherereje kuri telefoni.

Iduka ry'imyenda y'igitsina gore, hano ushobora kwigurira imyenda itandukanye y'igitsina gore hakubiyemo amashati, imipira, amapantaro n'ibindi byose wakenera kandi ku giciro gitoya.

Iduka ricuruza ibitenge, ibitenge ni umwenda wambarwa n'abantu n'igitsina gore kandi barawukunda. Akenshi ibitenge bikunzwe kurangurwa mu gihugu cy'abaturanyi cya kongo, kandi abadamu benshi barayambara

Iduka ricuruza imyenda y'igitsina gore, iri duka ushobora gusangamo amakanzu atandukanye y'igitsina gore. Umudamu uririmo arimo araseka, aranezerewe yishimiye ko iri duka rimeze neza.

Iduka ricuruza ibiribwa. Umugore ahagaze mu iduka arimo aracuruza ibiribwa. Mu biribwa ari gucuruza harimo amakaroni, isukari, umunyu, ibirungo bakoresha bateka n'ubundi bwoko bw'ibiribwa butandukanye.

Akagera bizinesi gurupe ni sosiyete itumiza imodoka ikanazicuruza mu gihugu cy' u Rwanda ushobora kugura imodoka nziza cyane mu Kagera bizinesi gurupe kuko aba ari imodoka nshyashya kandi zimeze neza.

Imodoka enye z'umweru zihagaze ahantu mu kibuga, ni imodoka nini zitwara abagenzi muri rusange, ahantu zihagaze zimeze nk'izidafite akazi ko gukora.

Akagera bizinesi gurupu ni ikigo gitumiza imodoka kikanazigurisha mu gihugu cy'u Rwanda ushobora kwigurirarayo imodoka zisanzwe zo kugendamo zo kwitembereramo ndetse nimodoka nini cyane zo gukora akazi gatandukanye.

imodoka nziza igezweho ndende ifite amapine agaragara n'ibara ry'umweru n'amatara meza igurishwa nawe wayigurira kubera ko ni imodoka cyashya itarajya mu muhanda.

Akagera Business Group ni sosiyete itumiza, ikanacuruza imodoka mu Rwanda. Umuntu wese wifuza kugura imodoka iyo ari yo yose, ashobora gutanga ubusabe bwe mu Akagera, akayibona bidatinze.

Akagera bizinesi gurupe ni sosiyete icuruza kandi igatumiza imodoka zicururizwa mu Rwanda. Ushobora kugurayo imodoka zitandukanye yaba imodoka yo kwigenderamo, imodoka yo gukoresha ubucuruzi cyangwa se imodoka itwara abagenzi.

Imodoka nziza cyane igurishwa ifite ibara ry'umukara, ihqgaze neza ni imodoka ikeye, ni imodoka ikiri nshyashya yo mu bwoko bwa benze yakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi na kabiri, iragurishwa miliyoni mirongo itanu gusa.

Akagera bizinesi gurupu ni sosiyete itumiza Kandi igacuruza imodoka mu Rwanda. Igurisha imodoka nziza cyane, imodoka nshyashya zitaragenda kandi ni imodoka zihendutse cyane.

Imodoka nziza cyane yo kugura yakozwe mu mwaka wa bibiri na cumi n'umunani yo mu bwoko bwa suzuki, imodoka ikiri nshyashya ikeneyemo miliyoni cumi n'umunani z'amanyarwanda.

Umukozi w'ikigo cy'imari w'igitsina gore yambaye ikanzu itukura n'amarinete, ari ku cyuma gifora impapuro, arimo arafotora impapuro.

Umuntu uhagaze ari ku cyuma kibara amafaranga afite amafaranga menshi, umuntu abarisha icyuma amafaramga iyo afite amafaranga menshi ku buryo kuyabarisha intoki bidashoboka cyangwa kugira ngo gisuzume niba harimo amafaranga atari atariyo.

Icyuma kibara amafaranga, n'imashini umuntu akoresha abara amafaranga igihe ari menshi adashobora kuyaba akoresheje intoki. Iyo mashini kandi ifite ushobozi bwogutahura amafaranga yamiganano.

Inoti y'amafaranga ibihumbi bitanu y'u Rwanda igizwe k'uruhande rumwe n'abantu barimo kubyina b'igitsina gore k'uruhande rundi hariho ibiti byera imbuto hamwe n'inzu ya banki nkuru y'u Rwanda.

Ikigo cy'imari gishoraho gukoreshwa muri serivise zitandukanye. Ushobora kubitsa amafaranga, ukabikuza amafaranga, cyangwa se ukoherereza umuryango wawe cyangwa inshuti amafaranga. Abadamu batatu bari ku kigo cy'imari, barimo barasaba serivise.

Inoti y'u Rwanda y 'amafaranga maganatanu, hejuru handitseho banki nkuru y'u Rwanda, hagati hashushanyijemo inka ebyiri za kizungu zo mu bwoko bwa firizoni, hasi hakandika amafaranga maganatanu.

Aho bacururiza ibyo kurya biciriritse wahasanga imineke, amagi, capati, amandazi, icyayi n'isambusa ibyo ni ibintu akenshi abantu bafata mu gitondo.

Capati ni ikiribwa kiba gikoze mu ngano, icyo ikiribwa baracyotsa ku ipanu hanyuma bakaba bagisomeza ibintu bitandukanye, urugero basomeza nk'icyayi cyangwa se amata. Capati abana barazikunda.

Uruganda rutunganya amata rw'i Nyanza. Ni uruganda rusohora amata meza cyane, akunzwe mu gihugu cyose, ndeste no mu ntara yose. Ruherereye i Nyanza, rukaba ari uruganda ruzwi cyane mu gihugu.

Iduka bacururizamo ibintu bitandukanye higanjemo cyane cyane ibyo kunywa n'ibyo kurya mu byo kurya harimo amandazi n'ibindi bikomoka ku ngano, hanyuma ibyo kunywa harimo ibikoze mu mitobe cyangwa se inzoga zitandukanye. Umuntu yaje guhaha barimo baramuhereza amata.

Ahacururizwa amata, amata bayabika mu ijerekani imeze neza isukuye hanyuma bakayatanga mu bikombe by'ibirahuri nabyo bimeze neza. Umudamu arimo arayasuka yishimye.

Sipeni n'ikoranabuhanga rya banki yitwa ayi endi emu banki, n'ikoranabuhanga rishyirwa muri terefone rigendanwa, rigafasha umuntu urifite kohereza, kubitsa no kugura ibintu byinshi bitandukanye kuri terefone ye.

Porogaramu ya emutiyene momo ishyirwa muri telefone ni poragaramu ishobora kugufasha gukora ibintu byinshi bitandukanye kuri telefone yawe kandi ukoresheje konte yawe ya mobayiromani, ushobora kohereza amafaranga, kwakira amafaranga, kwishyura serivise no kwishyura fagitire zitandukanye.

Porogaramu ya Emutiyeni momo ushobora kuyishyira muri terefone yawe hanyuma ikagufasha kubona serivise zitandukanye za mobayilo mani ushobora kohereza amafaranga, kwakira amafaranga, kugura amayinite, kubikuza n'ibindi.

Kopedu ni ikigo k'imari gikorera mu Rwanda. Kodedu ishobora gutanga serivise z'imari zitandukanye z'imari nko kohereza amafaranga, kubikuza amafaranga yoherejwe binyuze ku muyoboro wa manegaramu.

Ikigo cy'igihugu gishinzwe imisoro n'amahoro, gisaba abacuruzi bose ko burigihe bakora imenyekanisha kugihe kandi bakishyurira igihe, kugira ngo birinde kuzacibwa amande barengeje itariki ntarengwa.

Imashini ibara amafaranga ni imashini yagenewe kubara amafaranga menshi ku buryo umuntu uyafite atayabarisha intoki. Iyi mashini kandi ifite ubushobozi bwo gutahura inote itariyo y'inyiganano.

Inote ni ubwoko bw'amafaranga buba bukozwe mu mpapuro, akenshi iyo abantu bahaha bakoresha inote. Hari inote za maganatanu, iz'igihumbi, iz'ibihumbi bitanu, iz'ibihumbi icumi n'iz'ibihumbi makumyabiri bitewe n'igihugu zikoramo.

Akazu gatangirwamo serivise z'ikoranabuhanga zitandukanye, aka kazu gatangirwamo serivise z'amabanke harimo ekwiti banke, banke ya Kigali, emutiyene mobayiro mane, urwego banke hamwe n'izindi, kandi ushobora no kuhasabira serivise z'irembo.

Wesitani yuniyoni ni uburyo bw'ibigo by'imari bikoresha kugira ngo byohereze amafaranga ku bantu bari hanze y'igihugu cyangwa se abantu bari hanze y'igihugu bakabukoresha kugira ngo bohereza amafaranga abantu babo inshuti zabo ziri mu gihugu.

Aho bavunjira amafaranga, umuntu akenera kuvunjisha amafaranga mu gihe akeneye amafaranga y'amahanga kugira ngo agire ibyo ahaha mu gihugu kitari ike, cyangwa se akavunjisha amafaranga mu gihe aturutse mu mahanga aje mu gihugu kugira ngo akenere amafaranga yo guhaha.

Ibiro bivunja amafaranga ushobora kuvunjisha amafaranga, mu gihe witegura kujya hanze y'igihugu kugira ngo uzabona amafaranga uzakoresha ugeze muri icyo gihugu cyangwa se ukavunjisha amafaranga igihe uri kwinjira mu gihugu kubona ubone amafaranga yo gukoresha.

Aho bavunjishiriza amafaranga umuntu avunjisha amafaranga iyo akeneye kujya mu kindi gihugu kandi akazakoreshayo ayo mafaranga y'amahanga cyangwa se akavungjisha amafaranga iyo aturutse mu gihugu yinjiye mu kindi akeneye amafaranga yo muri icyo gihugu.

Kuvunjisha amafaranga ni ngombwa cyane mu biro by'ivunjisha mugihe umuntu akeneye kujya mu gihugu cyo hanze agakenera amafaranga yo gukoreshayo cyangwa se mugihe umuntu afite ibyo yishyura ariko byishyurwa mu mafaranga y'amanyamahanga.

Intebe nziza n'ameza yazo zikoze mu biti wakoresha mu bintu bitandukanye ,ariko ikingenzi ushobora kuzikoresha mu gihe muzifatitaho amafunguro, n'intebe zakozwe n'ababaji b'abanyamwuga.

Intebe nziza cyane zikoze mu mbaho zibengerana ni intebe wakoresha ahantu aho ariho hose haba mu rugo haba mu kabari haba muri hoteri cyangawa se mu busitani ni intebe rero wagura ntizigusebye.

Intebe nziza zikoze mu biti kandi intebe zibegerana n'intebe zakoreshwa mu bintu byinshi bitandukanye, harimo kuba mwazicaraho n'abashyitsi mukaganira cyangwa zakoreshwa nk'aho kurira.

Intebe nziza cyane n'ameza yazo birengerena, izi ntebe zikoze mu mbaho n'ameza akoze mu mbaho, wabikoresha mu buryo butandukanye nko kuzicazaho abashyitsi cyangwa se kuzikoresha murimo kurya.

Intebe nziza cyane zikoze neza, zikoze mu ruhu rw'umwimerere, intebe umuntu yakoresha ahantu henshi hatandukanye: wayikoresha mu ruganiriro mu rugo, ushobora kuzikoresha muri hoteli cyangwa se n'ahandi.

Intebe nziza cyane n'ameza yazo, izi ntebe zikoze mu mbaho nziza zabajwe neza n'abahanga kandi zasizwe amavuta kugira ngo zirusheho kunyerera. Ameza nayo ni ameza manini cyane ushobora kubikoresha urimo gufata amafunguro.

Intebe nziza zikorerwa mu Rwanda buri wese yakishimira kuguru, ni intebe ziba zifunitse mu buryo bwa gihanga, intebe z'umukara ndetse n'iz'ayandi mabara. Ushobora kugura ukajyana iwawe zikakubere nziza muri saro.

Udutebe twiza umuntu yakwicaraho ndetse n'ameza yatwo bikoranye ikoranabuhanga kandi mu buryo bwa kinyamwuga. Izi ntebe zishobora gukoreshwa mu ma hoteli, mu byumba mu rugo ndetse n'ahandi.

Intebe nziza n'ameza meza bikoze mu mbaho ni intebe n'ameza bikoranye ubuhanga umuntu yakoresha ahantu hatandukanye ndetse bikaba nk'umutako, ushobora kuzikoresha muri salo cyangwa mu busitani.

Intebe nziza wakoresha mu buryo butandukanye. Ni intebe ikoze mu mbaho zikomeye cyane, ukaba wayifashisha uganira, wicazaho abashyitsi, ukaba wanayifashisha wicaye hanze mu busitani.

Intebe nziza cyane zikiri nshya nawe wakigurira, n'intebe ushobora gukoresha mu birori byinshi bitandukanye, ushobora kuzishyira mu ruganiriro, ukazishyira hanze mu ibaraza cyangwa se ukazishyira mu cyumba cyo kuriramo.

Icyumba cyo kuryamamo harimo igitanda gishashe gifite imisego n'amashuka, iruhande rw'igitanda hari akabati umuntu abikamo utuntu dutandukanye. Ku kabati kandi hariho isaha ishobora kubyutsa umuntu cyangwa se ikamubwira igihe.

Utubati twiza cyane dusize irange twakorewe mu Rwanda. Ni utubati twakoreshwa ibintu byinshi bitandukanye nko kubika imyenda, kubika ibikoresho, kubika ibikoresho bya abanyeshuri, kudukoresha n'indi mirimo itandukanye.

Intebe nziza cyane wakoresha iwawe mu rugo ndetse no ku kazi, intebe ushobora gukoresha muri saro cyangwa ahandi hose umuntu yaruhukira hari n'ameza yazo ameze neza cyane.

Intebe nziza cyane zibengerana, intebe ni eshahshatu n'ameza yazo. Ni intebe nziza zakorewe mu Rwanda kandi zishobora kugurishwa ku giciro gitoya. Wazikoresha wakiriraho abashyitsi cyangwa ukazifunguriraho.

Intebe nziza cyane zimeze neza zigezweho umuntu yakoresha mu bintu byinshi bitandukanye, ni intebe ushobora gukoresha mu ruganiriro hari n'intebe ushobora gukoresha muri hoteli zitandukanye abagenzi bakazishimira.

Inzu nziza cyane igeretse yo guturamo, ifite ubusitani bwiza cyane n'indabyo ziteretse zimeze neza, hari ibiti bizana akayaga kandi uri hejuru, mu nzu yo hejuru waba witegeye ahantu hose.

Aho bafatira amafunguro, icyi ni icyumba kirimo ibintu byishi bitandukanye, harimo amafunguro atandukanye: harimo imbuto zitandukanye, harimo imineke, harimo inanasi na ibindi umuntu ashobora kurenza kumafunguro.

Hoteri nziza cyane igeretse hejuru aho umuntu yakwiyicarira ku nzu yo hejuru yitegeye umujyi, hari imitaka ndetse n'intebe zirimo umuntu yakwicaraho ndetse n'ibiti bitanga amafu.

Hoteli nziza cyane yubatse ahantu heza iyo wicaye kuri ino hoteli uba witegeye ijuru neza ifite amazi meza abantu bakogamo ahantu hari ibiti n'ubusitani buzana akayaga keza cyane umuntu wese uhari aba abyishimiye

Hoteli nziza cyane y'akataraboneka y'inyenyeri eshanu ni hoteli ifite ahantu abantu bidagadurira ahantu abantu batemberera kandi ifite amazi magari yo kogamo n'aho kuruhukira.

Igikoni ni aho bategurira amafunguro atandukanye abantu barya haba harimo ibikoresho bitandukanye haba harimo ibyo babikamo ibintu bitandikanye nk'umunyu, cyangwa isukari, haba harimo kandi amashyiga ibiribwa bitandukanye nk'imboga biri mu gikoni, umukozi wo mu gikoni arimo arabitegura.

Sanlam n'ikogo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, gitanga ubwishingizi butandukanye harimo ubwishingizi bw'ibinyabiziga n'ubwishingizi bw'ubuzima. Hari icyumba cyiza cyane bakoreramo inama y'abakozi ba Sanlam kigizwe n'intebe nziza cyane ndetse n'ameza.

Sanilamu ni ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda. Ni ikigo gitanga ubwishingizi butandukanye, harimo ubwishingizi bw'indwara, ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'amatungo, ubwishingizi bw'ibihingwa n'ibindi.

Sonarwa ni kimwe mu bigo by'ubwishingizi bikorera mu Rwanda. Muri sonarwa batanga ubwishingizi butandukanye ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro, ubwishingizi bw'ibihingwa, ubwishingizi bw'ibinyabiziga n'ubwishingizi ku mutungo.

Umugi ukeye umeze neza imihanda imeze neza irasukuye, nta mwanda kandi nta binyabiziga byinshi birimo. Amazu ni maremare kandi arasa neza. Mu muhanda hariho amatara ayobora ibinyabiziga.

Sonarwa ni ikigo cy'ubwishingi gikorera mu Rwanda, gitanga ubwishingizi butandukanye harimo; ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'ubuzima, ubwishingizi bw'ingongi y'umuriro, kandi kiba gifite ibiro ahantu henshi hatandukanye mu gihugu.

Sanilamu n'ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda, sanilamu itanga ubwishingizi butandukanye harimo, ubwingizi bw'ubuzima, ubwishingizi bw'indwara, ubwishingizi bw'amatungo, ubwishingizi bw'ibihingwa n'ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro.

Radiyanti ni ikigo cy'ubwishingizi gikorera mu Rwanda. Umuyobozi wacyo yitwa Rugenera Mariko. Icyo kigo gitanga ubwishingizi butandukanye harimo ubwishingizi bw'indwara, ubwishingizi bw'ibinyabiziga, ubwishingizi bw'inkongi y'umuriro n'ubwishingizi bw'amatungo.

Kopedo ni kimwe mu bigo by'imari biciriritse gikorera mu Rwanda, kopedo itanga serivise zitandukanye harimo kubitsa no kubikuza, igatanga na serivise z'inguzanyo zitandukanye abantu bakoresha bikenura.

Ekwiti banki ni ikigo cy'imari gikorera mu Rwanda. Muri Ekwiti banki ushobora kuhabona inguzanyo zitandukanye, izo gukora ubucuruzi, iz'amashuri, iz'ubuhinzi n'ubworozi n'izindi. Ushobora kubona kandi inguzanyo igera kuri miliyoni mirongo ine y'amafaranga y'u Rwanda udafite ingwate.

Gosheni Fayinanse ni ikigo cy'imari gikorera muri repubulika y'u Rwanda, Gosheni itanga serivisi zikurikira harimo kubitsa, kubikura no gutanga inguzanyo ku bakiriya babo.

Kopedu ni ikigo k'imari gikorera mu Rwanda. Kopedu ushobora kuhabaona serivise zitandukanye harimo kubitsa, kubikuza, kwishyura ibintu runaka nk'imisoro y'ikigo k'igihugu gishinzwe kwinjiza imisoro n'amahoro no kubona inguzanyo zitandukanye.

Isoko ry'imbuto hamwe n'abacuruzi baje kurigurishirizamo. Harimo imbuto n'imboga zitandukanye. Aho bari gucuruza inyanya, intoryi, karoti, n'ibindi. Iri soko kandi ririmo abaguzi benshi batandukanye.

Aho bacururiza imyenda itandukanye yo kwambara ushobora kugura imyenda itandukanye amapantalo, imipira, amajakete n'ibindi bitandukanye kandi ushobora kuyibona by'abantu bo mu ngeri zitandukanye abana n'abakuru.

Isoko ry'imbuto harimo imbuto zitandukanye harimo; inanasi, amaronji, imyembe, amapapayi, imineke n'ibindi byose wakwigurira kandi bikagushimisha.

Isoko ry'imboga n'imbuto. Ni isoko waguriramo imbuto zitandukanye; imineke, za voka, inyanya, amapera, n'ibindi. Abadamu batandukanye barimo baracuruza imbuto zabo.

Isoko rya kijyambere. Ni isoko ryubatse mu buryo abantu bazaba barimo kuricururizamo badashobora kunyagirwa n'imvura cyangwa se ngo bicwe n'izuba. Ni isoko rifite amatara kandi rizaba rifite umutekano kubera ko abantu bose bazajya bacururiza ku meza.

Isoko ricururizwamo imboga, ushobora kuguramo imboga zitandukanye kurujete, inyanya, amashu, intoryi, urusenda n'ibindi byinshi bitandukanye wakenera.

Isoko rya kijyambere, ni isoko ryubakiye aho abantu bashobora kuza gucururiza ibicuruzwa byabo bitandukanye, bakaba bakugama Izuba cyangwa se bakaba batanyagirwa. Harimo ibicuruzwa bitandukanye nk'imyenda, ibyo kurya n'ibindi.

Umuntu urimo gucuruza ibiribwa. Ni ibiribwa bitandukanye kandi bikenerwa buri munsi, harimo amashaza, inyanya, imineke, ibishyimbo n'amafu menshi atandukanye.

Isoko ry'imboga riginzwe n'imboga zitandukanye harimo, inyanya, harimo intoryi, harimo ibitunguru, harimo amadegede, harimo sereri, n'ibindi bitandukanye umuntu yahaha.

Ahantu hacururizwa imbuto zitandukanye n'ibindi bicuruzwa bitandukanye, umusore arimo aracuruza ibiryo bitandukanye hakubiyemo inyanya, imbuto nka voka, ibitunguru n'ibindi byinshi bitandukanye.

Akazu bacururiza mobile mane. Ni serivisi itangwa n'ikigo cy'itumanaho MTN. kuri mobile mane ushoboka kohereza amafaranga, kwishyura serivisi zitandukanye cyangwa se ukabikuza amafaranga wohererejwe n'undi muntu.

Akazu gacururizwamo mobayiro mane, mobayiro mane ni serivise ituma umuntu abasha kubitsa amafaranga kuri telefone ye, akaba yabikuza amafaranga kuri telefone cyangwa se akoherereza inshuti ye cyangwa umwe mu bagize umuryango we amafaranga.

Hamwe na eyetere mane ushobora gukoresha ibintu byinshi bitandukanye kuri terefone yawe, ushobora kwakira amafaranga wohererejwe, ushobora koherereza ku muntu wawe uri mu gihugi cyangwa hanze, ushobora no kwishyuriraho ibintu bitandukanye na serivisi

Akazu bacururizamo serivisi za eyateri mani, eyateri mani ziragufasha kubikuza amafaranga kuri telefoni yawe, kohereza amafaranga abantu bawe ndetse n'abari hanze y'igihugu, abagabo babiri barimo barasuhuza umudamu waje gusaba serivisi.

Akazu gatangirwamo serivise za mobayiro mane, mobayiro mane ni serivise itangwa n'ikigo k'itumanaho cya emutiyene. Muri mobayiro mane ushobora kohereza amafaranga, kubitsa amafaranga cyangwa se kubikura amafaranga no kwishyura ibintu ukoresheje mobayiro mane.

Akazu gacururizwamo serivise za mobayiromane. Ni serivise zitangwa n'ikigo k'itumanaho cya emutiyene. Hamwe na mobayiromane ushobora kohereza amafaranga, ushobora kwakira amafaranga, ushobora kugura ibintu bitandukanye, ushobora no kwishyura serivise.

Ku gikuta hari fizibure aho ushobora kuba wakupa cyangwa ugakupura bitewe n'ikintu ushaka gukora. Aho hantu ushobora kuba wahakupura mu gihe ushaka kwatsa umuriro cyangwa se ugakupa mu gihe udashaka kwatsa umuriro.

Mu rukari ni isoko rikorera kuri murandasi. Mu rukari ushobora kuguramo ibikoresho hakubiyemo ibikoresho, ibiribwa bitandukanye, imyenda y'abagore ndetse n'imyenda y'abagabo.

Kigure akadomo rwa ni urubuga rukorera kuri murandasi, guriraho ibicuruzwa bitandukanye ku bacuruzi bacuruza impande n'impande, ku biciro utasanga ahandi. Kandi babikugezaho ntakiguzi utanze, n'uwo hanze ya Kigali yongeraho amafaranga igihumbi gusa bakabimugezaho.

Iposita ni ikigo cy'igihugu gishinzwe kugeza ubutumwa no kubona ubutumwa kibuhereza ba nyirabwo. Iposita kugeza ubutumwa kuri ba nyira bwo, ikoresha uburyo butandukanye, harimo n'imodoka nini ziba zifite ibara ry'umuhondo n'inyuguti z'umukara zanditseho iposita.

Vuba vuba ni sosiyete ikorera mu Rwanda igamije kujya ishyira abantu baguze ibicuruzwa ikabibashira mu rugo. Vuba vuba ifite abakozi batandukanye mu gihugu cyose bakoresha ibinyabiziga kugira ngo bageze ibyo abacuru, abaturage baba baguze babibagezeho.

Ruti Rwanda ni iduka rikorera kuri murandasi iri duka wariguriramo ibintu byinshi bitandukanye, wariguriramo ibikoresho bitandukanye harimo n'ibikoresho by'ikoranabuhanga abakozi batatu ni abakozi b'ikigo Rutsi rwanda.

Ihaha tekinorogizi ni ikigo gicuruza telefone n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga nka zamudasobwa cyangwa se imashini zisohora impapuro. Ukeneye igikoresho kimwe muri ibyo ngibyo bakorera mu isoko rya Nyarugenge.

Alibaba ni urubuga rucururiza kandi rukagurishiriza ibintu kuri murandasi. Kuri alibaba ushobora kuhasanga ibicuruzwa bitandukanye, ushobora kugura cyangwa ukagurisha ibikoresho byo mu rugo, ibikoresho byo mu nzu, ibikoresho bya eregitoronike cyangwa se ukaba wahagurira imyenda itandukanye.

IPOSITA n'ikigo cy'igihugu kinyuzwamo ubutumwa butandukanye, bwaba ubutumwa bugenewe abantu bo mu gihugu cyangwa se ubutumwa bwohererezwa abantu batari mu gihugu. IPOSITA ikoresha ibintu bitandukanye kugira ngo igeze ubutumwa kuri banyirabwo, ikoresha amapikipiki cyangwa se imodoka, imodoka cyangwa se amapikipiki biba bifite ibara ry'umuhondo.

Inzu nziza igurishwa, mu mugi wa Kigali. Ni inzu ikomeye, ikiri nshyashya, isakaje amabati kandi n'igisenge kigezweho. Iragurishwa miliyoni ijana na mirongo itanu zonyine.

Ku madolari igihumbi n'amagana atanu buri kwezi ushobora kubona inzu nziza cyane wakodesha imeze neza irimo amatara agezweho, irimo n'ibikoresho bitandukanye nk'intebe zo muri saro.

Umugabo wambaye ishati n'ingofero z'abubatsi, yambaye agapfukamunwa k'umukara ni umwubatsi wabigize umwuga, yubaka amazu atandukanye meza hanyuma akazayagurisha

Inzu nziza cyane wagura amafaranga miliyoni magana biri na mirongo ine y'u Rwanda, n'inzu zifite urugo runini, inzu zifite amabati agezweho ndetse zifite n'uburyo bwo gushyushya amazi bukoreshwa n'imirasire y'izuba.

Inzu nziza cyane igura miliyoni ijana na mirongo ine muri Kigali. Ni inzu nshyashya, inzu yubakitse neza, inzu igaragara neza i Kanombe mu mujyi wa Kigali. Ni inzu ifite parikingi itubutse.

Inzu wakodesha mu mujyi wa Kigali mu Rwanda ni inzu irimo ibikoresho byose ibikoresho byo muri salo, ibikoresho byo mu gikoni n'ibindi ikodeshwa amafaranga make amadorari maganatanu na mirongo itanu ku kwezi.

Ufite amadorari magana inani gusa ku kwezi, ushobora kubona inzu nziza cyane muri Kigali yo gukodesha. Inzu irimo ibikoresho byiza cyane bigezweho yubatse neza, ifite amatara meza kandi ifite umutekano.

Intebe nziza cyane, zikoze mu ruhu. Ni intebe wakwicazamo umushyitsi akumva aranezerewe. Ni intebe kandi wakoresha mu buryo butandukanye, ushobora kuzicaramo hanze cyangwa ukazicaramo mu nzu muri salo.

Inzu nziza cyane ushobora kugura ikaba iyawe, ukayituramo mu mujyi wa Kigali, ni inzu yubatse bya kijyambere kubera ko ifite igisenge kigezweho, ifite uruzitiro rwiza kandi uruzitiro rurafungwa, kuri miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri z'amafaranga y'u Rwanda.

Inzu, wagura mafaranga ayikwiriye rwose, inzu iherereye i Kigali mu Rwanda, wayigura miliyoni mirongo irindwi n'ebyiri, ni inzu iri mu gipangu, ikinze neza, yubatse neza, ifite umurinda nkuba, yujuje ibyangombwa byose.

Inzu nziza cyane iteye neza ifite ubusitani bumeze neza kandi buteyemo ibiti, inzu y'igorofa wakodesha ukayibamo unezerewe ni amadorari igihumbi na magana atanu ku kwezi kandi ukaba utuye muri Kigali wishimye.

Inzu nziza cyane igeretse ikodeshwa Kimironko mu mujyi wa Kigali, ni inzu ifite ibyumba bine n'ubwiyuhagiriro butatu, ikodeshwa ibihumbi magana atandatu ku kwezi, kandi ni inzu watuzamo abawe bakishima.

Inzu nini wakodesha mu mugi wa kigali i Kanombe, ifite ibyumba bine n'ubwuhagiriro butatu, ni inzu imeze neza, nini cyane, ifite amabati meza iriho n'irangi ryiza, ifite ubusitani, ndetse hari n'ibiti bizana akayaga keza.

Inzu nziza igurishwa mu mujyi wa Kigali. Ni nzu iri ahantu heza, ifite igipangu kinini, yubatse neza, ifite igisenge cya kijyambere. Igurishwa miliyoni mirongo icyenda neshanu z'amanyarwanda.

Ikibanza kinini cyane wagura kandi ku mafaranga makeya. Ni ikibanza kidafite ibintu ibyo ari byo byose byubatsemo cyangwa se by'ibiti, cyangwa se ngo kibe cyagorana mu kucyubaka. Amafaranga yacyo ni make cyane.

Inzu wakodesha muri Kigali mu karere ka Cyicukiro ifite ibyumba bibiri byo kuraramo n'icyumba kimwe cy'ubwiyuhagiriro, ikodeshwa ibihumbi maganabiri na mirongo itanu ku kwezi kumwe.

Inzu nini cyane kandi yubatse neza mu buryo bugezweho bwa kijyambere ikodeshwa ifite ibyumba bine aho kwiyuhagirira habiri ikaba iherereye i Batsinda kagugu mu karere ka Gasabo ikaba ikodeshwa amafaranga maganatatu ku kwezi.

Inzu ikodeshwa amafaranga make i Kigali i kanombe, iya magana tatu mirongo itanu ku kwezi wayibona, ifite ibyumba bibiri n'ahantu habiri ho kwiyuhagiirira, ni inzu nziza igaragara neza.

Inzu nini ikodeshwa iri i Remera inzu ifite icyumba kimwe kinini n'ubwogero bumwe kandi mu nzu mu imbere harimo igikoni kigezweho cya kijyambere, iyi nzu wayikodesha ukayibamo.

Inzu nziza cyane igurishwa ifite amarange akiri mashya, ifite amabati yayandi agezweho n'igisenge kigezweho, iherereye Kabeza iruhande rw'Umurenge.

Inzu iherereye Kimironko inzu nziza cyane ikodeshwa amafaranga magana abiri mirongo itanu ku kwezi, ifite ibyumba bitatu byo kuraramo n'ubwogero bubiri.

Inzu ikodeshwa mu buryo buciriritse iherereye mu mujyi wa Kigali, n'inzu ikodeshwa amafaranga ibihumbi magana atatu y'amanyarwanda, n'inzu iri mu gipangu kisanzuye kandi n'inzu ifite amarange isa neza.

Inzu yubatswe mu mujyi wa Kigali Ikanombe kandi iri ahirengeye ni inzu yubatse mu kibanza gifite metero kare magana atatu mirongo itanu, ikaba igurishnwa miliyoni ijana ni inzu nziza cyane yubatse neza kandi ikiri nshyashya.

Inzu ikodeshwa yo guturami ikigali ikanombe. Ni inzu nziza isize amarange y'umuhondo, kandi ifite umutekano. Ifite ibyuma bine na umwiyuhagiriro butatu. ni inzu itubutse.

Inzu nziza cyane ifite ubusitani ikodeshwa i Kigali Kimironko ifite ibyumba bine aho kwogerara hatatu ikodeshwa ibihumbi maganatandatu y'amanyarwanda, ni inzu nziza ikiri nshyashya ifite igisenge cyiza.

Aho bagurishiriza imboga zitandukanye. Ushobora kuhasanga imboga zitandukanye, nk'inyanya, ibitunguru, puwavuro, urusenda, iza dodo, intoryi, n'izindi. Umuntu wese ashobora kugura bitewe n'icyo akeneye.

Ikarita ya mitiweri ni Ikarita ihabwa abanyamuryango ba mitiweri batarageza ku myaka cumi n'itandatu ngo babe bafata indangamuntu. Umwana ashobora kuyikoresha kandi akaba ayitwaje igihe cyose agiye kwa muganga.

Ejo heza ni ubwizagamire bw'igihe kirekire, ushobora kwizigamira muri ejo heza hanyuma wazagera muzabukuru ukabona amafaranga akurengera. Ejo heza ushobora ushobora kubonaho inguzanyo y'amafaranga make wakoresha mu bintu byinshi bitandukanye.

Ara esisibi ni ikigo cy'ubwiteganyirize bw'abakozi ni ikigo gicunga imisanzu y'abakozi kugira ngo izabagoboke mu gihe bageze mu izabukuru, iki kigo kandi gicunga imisanzu y'ubwisungane mu kwivuza y'abaturage. Abakozi bacyo bari mu nama.

Ikarita ya mituwere n'ikarita ihabwa abana batararenza imyaka cumi n'itandatu kandi bishyuye ubwisungane mu kwivuza "MUTUELLE DE SANTE" iyi karita ifasha aba bana kwivuza kubera ko ntakindi cyangombwa baba bafite.

Sabin Nsanzimana ni minisitiri w'ubuzima mu Rwanda, yicaye mu ntebe nziza; yambaye ishati y'umweru na karuvati y'umukara arimo aratanga ikiganiro, hepfo ye hari umudamu wo mu rwego rw'igihugu RSSB.

Ikarita ya mituweli ni ikarita ihabwa abanyamuryango b'ubwisungane mu kwivuza, b'abana batarageza ku myaka cumi n'itandatu yo gufata undangamuntu. Umuntu uri munsi y'imyaka cumi n'irindwi aba agomba gushyiraho ifoto ye kugira ngo najya kwivuza bazamenye ko ari we.

Ikigo cy'igihugu cy'ubwiteganyirize aresesibi mu nshingano yacyo harimo; gukusanya imisanzu y'abanyamuryango bacyo kugira ngo izabagoboke mu gihe bageze mu zabukuru, gishinzwe kandi gukusanya imiryango imisanzu y'ubwisungane mu kwivuza y'abaturage kugira ngo bajye babona uko bivuza.

Inzu icururizwamo ibintu bitandukanye ariko byiganjemo ibyo kurya byiganjemo imigati n'ibindi bikoze mu ifarini ndetse n'ibyo kunywa akenshi byiganjemo ibidasembuye.

Simba supa maketi ni iduka rimenyerewe mu Rwanda. Simba supa maketi icuruza ibintu byinshi bitandukanye harimo ibyo kurya, ibyo kunywa ndetse n'ibindi bikoresho bitandukanye. Ushobora kubona amashami yayo ahantu hatandukanye mu mugi wa Kigali.